Iyo guhinga ubigize umwuga, ukabikora ubikunze, biguhesha amafaranga menshi, nawe ubwawe utasobanukirwa aho aba yavuye.

Ahantu henshi usanga hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye biba bipanze mu tuyetajeri yaba iby'ubuhinzi, yaba ibyokurya, yaba n'ibindi byinshi bitandukanye.

Igikorwa cy'umuganda ni kiza cyane kuko gifasha abaturage batari bake bamwe bakubakirwa abandi bagahabwa serivise zitandukanye babifashijwemo na bagenzi babo.

Ni koperative yishyize hamwe igana ubuhinzi mu gishanga, bahinga igihingwa cy'ibigori, none bari kugikorera kugira ngo bazarusheho kubona umusaruro mwinshi.

Ni ahantu mu biro, hakaba harimo irange risa umuhondo, harimo akabati karimo udukarito n'uducupa dutandukanye, bakaba bagurisha imiti y'ibihingwa itandukanye.

Kuri ubu iyo uhinze ukoresheje ifumbire mvaruganda, bituma ibicuruzwa byawe cyangwase ibihingwa byawe birushaho gutanga umusaruro kuko ari ingenzi ku bihingwa.

Umuhanda munini wa kaburimbo, ukaba urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, birimo moto ndetse n'imodoka. Iruhande rw'umuhanda hari amaduka, acururizwamo ibintu bitandukanye.

Ubuhinzi bwa kijyambere bumufitiye akamaro kanini abantu kuko akenshi iyo bahinze bakoresheje ifumbire mvaruganda, bibafasha mu kongera umusaruro wabo bakiteza imbere.

Ni ahantu hari icyapa gishushanyijeho uducupa dutandukanye ndetse hakaba hashushanyijeho n'ibimera bitandukanye, hakaba hagurishirizwa imiti y'ibihingwa bitandukanye.

Ifumbire y'imbora ni imwe mu by'ingenzi bikuza ibihingwa kuko iba ifitemo intungabihingwa zitandukanye, bityo umusaruro ukiyongera cyane.

Ifumbire y'imborera iyo uyishyize mu myaka cyangwa se ku gihingwa bituma gikura neza kandi kigashisha kuko iba yibitsemo intungamubiri zibihingwa.

Mu bice bitandukanye mu gihugu, cyane cyane mu bice byo mu cyaro, uhasanga amaduka aba arimo imiti igurishwa, ikaba yifashishwa mu buhinzi.

Ahantu hubakiye neza, hakaba harimo ifumbire y'imborera, bakaba barayitwikiriye ngo hatazagira ibyonnyi biyangiza, ntitange umusaruro.

Biragoye ko watambuka impande n'impande, ukabura amaduka acuruza ibijyanye n'ubuhinzi, cyane cyane mu bice byo mu cyaro, kuko ibihingwa nabyo byibasirwa n'indwara.

Sitoke nini cyane irimo ibikarito bitandukanye, bikaba birimo ibihingwa by'imbuto zizifashishwa mu buhinzi butandukanye, buzateza imbere abenshi mu bahinzi.

Guhinga ugakoresha ifumbire mvaruganda ni ikintu cyiza cyane kuko bifasha ibihingwa gukura ndetse no kwiyongera mu gutanga umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Umukobwa urimo araseka, akaba afite ipombo mu mugongo, arimo aruhira ibihingwa bye kugira ngo bitazatakwa n'indwara cyangwa se nkongwa.

Ni koperative yishyize hamwe, ikaba yarahinze ibigori, barimo barabibagarira ndetse banabitera ifumbire kugira ngo birusheho kwiyongera kandi bizatange umusaruro mwinshi.

Ni etajeri zisize ibara risa umweru, imbere hakaba harimo ibikoresho bitandukanye biri mu dukarito, bikaba birimo imiti yifashishwa mu buhinzi.

Amabase aba ari mu bwoko butandukanye, nk'aha ngaha hari amabase ane, gusa atatu ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, imwe iri mu ibara ry'ubururu, bikaba birimo umuceri weze watonowe.

Ni mu nyubako nziza harimo ibikoresho bifite amabara agiye atandukanye bijyanye n'ubuhinzi, twavugamo nka rozwari ndetse n'imiti yifashishwa ku bihingwa.

Iyo imvura iguye neza kandi ku gihe ibasha gufasha ibimera byinshi gukura neza bikagenda neza kandi bigatanga n'umusaruro mwinshi uhagije.

Abantu batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, basaruye imbuto yabo y'ibirayi, urabona ko bari gutoranya ibyo kurya, ndetse n'ibyo kugurisha.

Koperative yishyize hamwe ihinga imbuto none mu bigaragara urabona ko bejeje intoryi, bagiye kugurisha ndetse na bo baryeho n'imiryango yabo.

Igihingwa cy'urutoki giteza abantu imbere kuko iyo keze neza ukuraho ibitoki byo kurya ndetse ukaba wasagurira n'amasoko ukabona amafaranga.

Guhinga ku kumurongo ni ibintu byiza kuko bituma imyaka yisanzura ikera neza, ikamera neza cyane kandi igatuma itabangamirana.

Umugore witeze igitambaro cy'umutuku, mu mutwe yambaye inigi mu ijosi, afashe amoko y'imboga yahinze, urabona ko zeze neza kandi abyishimiye.

Umugabo wambaye umupira wa oranje, ndetse n'ingofero iri mu ibara ry'ikigina afashe ku gitoki urabona ko ari kucyerekana kandi cyeze neza, hakaba hari n'ibindi bitoki bitandukanye.

Ibirayi ni ibiribwa bitunze abantu benshi kandi bikunze kwera cyane cyane ahantu haba ubukonje nko mu ntara y'amajyaruguru. Ni heza kandi birahera kuko haba n'ifumbire.

Igihingwa cy'inyanya ni kimwe mu bifatiye runini abantu benshi cyane cyane ababirya ndetse n'ababihinga kuko bose bibafatiye runini.

Ubuhinzi ni ikintu cyiza cyane cy'ingenzi gifatiye runini abatari bake kuko hafi mirongo icyenda ku ijana y'ibyo turya, bikomoka ku buhinzi. Urumva ko rwose bukwiye kwitabwaho.

Ku misozi igiye itandukanye, usangaho ibihingwa bigiye bitandukanye nk'imbuto, ibihingwa by'ibigori, ibishyimbo, ibiti by'imbuto ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ahantu ku gasozi hari ibihingwa bitandukanye byahinzwe n'abahinzi, hakaba hari n'ibiti birebire cyane nabyo biri ku wundi musozi hakurya bisa neza.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ari mu karima ke k'igikoni yahinzemo imboga za dodo, aritegura kuzisarura ngo azijyane ku isoko.

Guhinga inanasi cyangwa se ibindi bihingwa na byo ni ingenzi kuko biguha amafaranga bikaba byaguha no kubona ibyo kurya iwawe n'umuryango wawe.

Abakobwa babiri, umwe yambaye ingofero iri mu ibara ry'iroza, bakaba bafashe igihingwa cy'inanasi. Bishimiye umusaruro wabo, urabona ko weze cyane rwose.

Umuceri ni kimwe mu bintu byiza cyane kuko buriya abantu benshi barawukunda. Uteza imbere abawuhinga, ugatunga abawurya, urumva ko ari ingenzi.

Igihingwa cy'urutoki ni kimwe mubifatiye runini abahinzi, kuko babonamo ibyo kurya ndetse bakabonamo n'amafaranga igihe babigurishije ku masoko.

Iyo ugeze ahantu hari kawa ntoya zihumbitse muri pipinyeri, ubona ari uduhingwa twiza cyane kandi n'ubundi nk'uko bisanzwe kawa ni igihingwa cyiza.

Guhinga ku murongo, bituma imyaka ihana intera, bityo mu gihe cyo kwera, ugasanga wejeje amatoni menshi, kubera ko wahinze mu buryo, bwiza cyane.

Umurima wahinzwe neza, gusa haje kubaho izuba ritwika ibihingwa bitandukanye byari biri muri uwo murima none hasigayemo mbarwa, urabona ko rwose ari ibibazo.

Igihingwa cy'imyumbati kiri ahantu heza cyane hasa neza, kikaba kigizwe n'imababi maremare, hakurya ibigori na byo byumye urabona ko bigeze igihe cyo gusarura.

Guhinga igihingwa cya kawa ukacyitaho, ukagikorera biguha umusaruro utakigera ubona ku bindi bihingwa kuko kawa yitaweho na yo itanga umusaruro mwinshi.

Umunyarwanda yagize ati"nutema igiti kimwe ujye utera bibiri", kuko buriya uruhare ishyamba ridufitiye riduha umwuka mwiza duhumeka bityo tuyatere menshi.

Akarima gahinzemo imboga ndetse n'inyanya kakaba gasa neza cyane. Hakurya hari ibiti birebire urebeye kure wagira ngo ni ishyamba rinini.

Kimwe mu bihingwa byiza kandi biteje imbere benshi ntiwakwibagirwamo ikawa kuko buriya igira amafaranga kumuhinzi kandi ikamuteza imbere vuba.

Buriya ikintu tutazi ni akamaro k'imboga, icyo wamenya ku kamaro k'imboga ni uko ziduha intungamubiri zo kurya kandi ubuzima bwacu bukagenda neza.

Ni ahantu mu gishanga, hari umurima uhinzemo ibigori, hakaba harimo n'akayira banyuramo bajya mu yindi mirima na yo ihinzemo ibigori. Urabona ko bisa neza, byakorewe.

Ibihingwa bigiye bitandukanye ubisangamo amoko menshi atandukanye kandi bimwe muri byo bikaba bigira n'indabo na zo ziba zifite amabara atandukanye.

Kawa itaragera igihe cyo kwera, gusa iratoshye cyane kandi nta kibazo na kimwe ifite, hirya hari ibindi biti bihakikije nabyo birebire.

Igihingwa cy'inyanya ni kimwe mu bintu biteza imbere ababihinga kuko zera zigura amafaranga menshi, kandi bigatuma iterambere ryiyongera ku babihinze ndetse n'abandi.

Buriya akenshi igihingwa cy'urutoki kiba ari ingenzi, kuko iyo byeze neza ntiwasonza kandi ntiwabura amafaranga bihari kuko ubigurisha ukabona icyo wifuza.

Abaturage ba koperative yibumbiye hamwe, bafite imbuto z'ubwoko bw'avoka, bagiye kuzitera iwabo kugira ngo bajye babona umusaruro w'avoka nyinshi.

Igihingwa cya kawa cyeze neza, kikaba gifite imbuto zatukuye, uwabihinze aritegura kubisarura bityo akazabona ku mafaranga menshi.

Pipinyeri irimo igiti bita ironji, hakaba hari n'ibindi hirya, bikaba bigeze igihe cyo kwaturwa kugira ngo bijye guterwa ahandi.

Gukingira amatungo ni igikorwa cyiza cyane kandi kiyarinda kuba yahura n'ibyonnyi ndetse, n'ibindi bishobora gutuma apfa cyangwa akarwaragurika.

Ahantu hari agacupa kari mu ibara ry'umweru gashushanyijeho itungo ry'inka kakaba karimo umuti uvura amatungo cyangwa se indwara zibasira amatungo.

Uducupa dutandukanye turi ahantu ku meza hasa neza cyane, turi mu mabara atandukanye umweru, oranje, umutuku ndetse dufite n'imifuniko y'ibara ry'umweru.

Ikiganza cy'umuntu ufashe agacupa kariho icyapa cyanditseho amagambo mu ibara rya oranje ndetse n'umukara, gafite umufuniko upfundikije icyuma, kakaba karimo umuti w'ibihingwa.

Utunyamaswa twitwa inyoni, dukunda ahantu hari amashyamba. Niba dushaka gusigasira utu tunyamaswa, ni byiza ko twatera amashyamba menshi kugira ngo tubone aho tuba.

Akabido keza cyane gasa neza gafite isuku kari mu ibara ry'umweru, gateretse ku kirago na cyo gisa neza, kakaba karimo amata y'inka y'inyarwanda.

Indobo iri mu ibara ry'ubururu, iteretse ku meza na yo ari mu ibara ry'umweru, ikaba irimo igihingwa bita umuceri, urabona ko weze neza cyane, ku rwego rushimishije.

Umuhinzi wahinze ahantu, ahakorera isuku ihagije, bityo akaba yitegura guhingamo ibindi bihingwa, hasukuye, hameze neza cyane.

Igikorwa cy'umuganda, cyahurije hamwe abaturage batandukanye, bakaba bari gukata urwondo rwo kubaka tuwarete y'umuturage, kugira ngo na we agire aho yiherera kandi yita iwe.

Abantu bishyize hamwe bahinga ibihingwa bitandukanye, urabona ko bashishikaye kandi harimo ibyeze biteguye gusarura bakabona ku mafaranga.

Koperative yishyize hamwe, ihitamo guhinga imboga za dodo, none igihe cyo kwera kirageze barimo barasarura kugira ngo bashyire imiryango yabo ndetse bajyane no ku isoko.

Ubuhinzi ni kimwe mu bintu biteza imbere abatari bake, cyane cyane mu bice byo mu cyaro kuko iyo bahinze bakeza babona ibyo kurya ndetse n'amafaranga.

Igikorwa cy'umuganda ni kimwe mu bifasha abantu benshi kuba bafashanya mu kubakirana, mu gusangira ubumwe, mu guhana amahoro ndetse n'ibindi.

Igihingwa cy'ibirayi, gikunze kwera ahantu hatandukanye, ariko by'umwihariko mu ntara y'Amajyaruguru, niho usanga byarakuze bikaba binini, kandi bikaba binapima ibiro byinshi.

Abahinzi babigize umwuga, bakaba bari mu gishanga gihingwamo umuceri, urabona ko basuwe n'abashyitsi, bari kubereka uko ibihingwa bikozwa kandi bikitabwaho.

Umugabo wambaye ubusa hejuru, afite isuka yo mu bwoko bw'ijyembe arimo arahinga, kugira ngo azabone aho atera imyaka ye, iruhande rwe hari insina ndetse n'ibindi biti.

Igikorwa cy'umuganda gihuza abantu benshi cyane batandukanye, aho bifatanya bityo bakubakira nk'umuntu cyangwa bagasukura ahantu runaka.

Ibihingwa bitandukanye cyane cyane nk'ibishyimbo bya mushingiriro, usanga biba bitoshye bisa neza kandi iyo byeze bitanga umusaruro mwinshi cyane kuruta ibindi.

Bamwe mu bahinzi babigize umwuga bakubwira ko nta wundi mwuga bakora, kuko mu buhinzi habamo amafaranga menshi kandi aboneka igihe cyose wahinze.

Ahantu mu gishanga hahinze igihingwa cy'umuceri, impande yaho ku musozi hari abagabo babiri bari guhinga bafite amasuka, urabona ko bashishikaye rwose.

Gukora isuku ni bimwe mu bintu by'ingenzi kandi byiza, gahunda ya Leta yo gukora umuganda rero intego nyamukuru iba igamije gukora isuku kugira ngo bahashye indwara nka malariya.

Umurima uri ahantu ku gasozi, ukaba uhinze neza, harimo ibihingwa bitarasarurwa, ndetse hakurya hari ibiti birebire, ndetse n'imisozi itandukanye.

Igihingwa cy'ibigori kugihinga ntabwo birushya kuko bigusaba imbuto, bikagusaba kubibagarira, bikagusaba umuti, bikagusaba kubisarura, ukabona ibyo kurya n'amafaranga.

Abaturage batandukanye, barimo gupakira ibihoho kugira ngo imyaka yabo irusheho kwiyongera, bayinyinaza, bayitera ahandi mu mirenzezo yabo bashaka ko igeramo.

Ni ku musozi ahantu hari ibihingwa bitandukanye, hakaba hakunze kwera imyaka itandukanye, hirya hari ibiti birebire birimo inturusu ndetse na gerivariya.

Mu bice bitandukanye, hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, hagizwe n'igikorwa cy'ubuhinzi kuko buriya ubuhinzi ni ikintu cy'ingenzi kandi giteza imbere abantu batari bake mu gihugu cy'u Rwanda.

Isoko riri ku muhanda nyabagendwa, rikaba ryiganjemo ibitoki, biteretse hasi, kandi bitegereje abaguzi kugira ngo baze babigure.

Ibirayi byahinzwe na koperative yishyize hamwe, none urabona ko biri mu mifuka kandi bikeye rwose kandi byeze ari binini cyane.

Koperative yishyize hamwe ihitamo guhinga ibigori, umusaruro wabo umaze kwera barawanika kugira ngo bazabone uko babirya bimeze neza ndetse babe banabigurisha.

Umusaruro w'ibigori weze neza, ukaba washyizwe mu mifuka itandukanye kugira ngo igezwe ku masoko babigurishe babone amafaranga abatunga n'imiryango yabo.

Akenshi iyo imvura iguye, imanura umuvu na wo ukamanukira mu bishanga, ugasanga bibangamiye ibimera bihinze muri icyo gishanga.

Umuceri weze neza cyane, gusa igihe cyo gusarurwa ntikiragera, hakaba harimo umuhinzi wambaye umupira w'umutuku uri kugenda awitaho kugira ngo urusheho kumera neza.

Koperative y'abantu bishyize hamwe bahinga imbuto y'ibirayi, none bejeje umusaruro mwinshi bashyize mu mifuka kugira ngo bashyire imiryango yabo basangire.

Abahinzi babigize umwuga bakubwira ko buriya igihingwa cyera neza kandi vuba, ari insina kuko iyo zezeho ibitoki ugurisha ukabona amafaranga.

Imodoka cyane cyane zifite aho bashyira imizigo, zifasha abahinzi mu gutwara ibicuruzwa byabo bakajya kubigurisha mu mijyi.

Avoka ziri mu tubati dukozwe muri pulasitike ziteretse ahantu hari ibara ry'umweru, zikaba zigiye kugurishwa ahantu bazikunda cyane.

Ni ahantu mu iduka harimo udufuka dutandukanye, tukaba dufunzemo ifu y'ibigori benshi bazi ku izina rya kawunga kandi benshi baranayikunda.

Ni muri sitoke cyangwa se mu buhunikiro, harimo imifuka irimo ubwoko bw'ibihingwa bitandukanye, hakaba harimo abantu baje kureba uyu musaruro.

Igihingwa cy'urunyanya, cyitaweho cyane na koperative yishyize hamwe, none basaruye amatoni y'inyanya, urabona ko bishimiye, umusaruro wabo mwinshi.

Ni mu gishanga, hakaba harimo amoko y'umuceri uhinze neza kandi utoshye. Hakurya y'igishanga hari umusozi uteyeho ibiti birebire bitandukanye.

Umugore wambaye ikanzu idozwe mu bwoko bw'igitenge, ari kwerekana igihingwa cye yejeje cy'ibigori. Inyuma ye hari ibindi bigori na byo byanitse ahantu ku biti.

Abantu batandukanye bafite impapuro mu ntoki, bakaba ari koperative yishyize hamwe bahinga ibitoki, none umusaruro wabo ureze, bagiye kugurisha.

Amoko y'ibihingwa bitandukanye harimo ibishyimbo, hakabamo amashaza, soya, uburo, amasaka n'ibindi, byose biraribwa.

Ahantu ku muhanda hari amoko y'ibimera atandukanye: Hari insina, hari imigwegwe, hari ibiti birebire, hari ibigori, ndetse n'ibindi byose bihakikije.

Abakerarugendo bakunda gusura amashyamba, akenshi ubasangana ibikapu biba birimo imyambaro, ndetse n'impamba bari burye igihe bashonje.

Akarima k'igikoni karimo amashu, karoti ndetse na seleri, kakaba karimo n'ikimera bita ngabo gikunze kuba gifite amahwa ku mababi yacyo.

Ku gasozi, hakaba hari ibihingwa bitandukanye; nk'ibigori, ibyatsi by'inka, ibiti bitoshye bimeze neza. Urabona ko ari mu gihe cy'umugoroba kuko buri kwira.

Urubingo ruba rufite amababi maremare kandi akebana, rukaba rukunze kugaragara ahari ubworozi kuko rukunda kuribwa n'inka.

Naahantu ho mu gace ko mu cyaro, hakorerwa ubuhinzi bujyanye n'imyaka itandukanye, harimo imigozi y'ibijumba, harimo ibiti bya avoka, ndetse hakabamo n'insina zitandukanye.

Mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane mu karere ka Nyamasheke, hera ibisheke biba ari byinshi cyane kandi biba ari birebire ku buryo bugaragara.

Ni umunsi w'umuganda, gahunda ngarukakwezi, aho abaturage bari kwiterera ibiti kugira ngo babungabunge ibidukikije. Urabona ko ari ibintu byiza.

Bimwe mu bihingwa bigiye bitandukanye nk'itsina, ibigori, ibishyimbo, ni bimwe mu bifitiye akamaro abantu benshi cyane, kuko babona amafaranga yo kurya ndetse n'ibyo kurya.

Igihingwa cy'ikijumba kigira amababi menshi cyane atandukanye ndetse kikagira n'umusaruro mwinshi kandi kigatunga abantu batari bake cyane, cyane cyane mu byaro.

Ibiti bigiye bitandukanye ni ingirakamaro kuko bimwe tubikoramo imbaho, ibitanda, intebe, ameza n'ibindi, si ibyo gusa kuko biduha n'umwuka duhumeka.

Ubuhinzi bw'imboga ni kimwe mu bintu bifatiye runini yaba abahinzi ndetse yaba n'abanyamugi kuko bibasha kubahaza kuko haba habayeho ihingwa.

Mu cyaro ahantu hatandukanye, usanga hari imihanda y'ibitaka, kandi iba ikikijwe n'ibihingwa bitandukanye, ndetse n'ibiti by'imbuto nk'amavoka, imyembe ndetse n'ibindi.

Ahantu hari ibimera bitoshye neza cyane biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hakaba hari ibyarandaranze hejuru ndetse n'ibyarandaranze hasi byose biratoshye.

Ikimera cyiza, kirekire, cyameze ahantu inyuma y'inzu, gusa ba nyiri urugo ntibarakibona ngo baze bagiteme, bityo inzu yabo ihumeke.

Imihanda yo mu byaro myinshi itandukanye, usanga ari ibitaka kandi akenshi iba ikikijwe n'ibiti ndetse n'ibihingwa by'abaturage baba barahinze.

Guhinga ibihingwa bitandukanye ukabishingirira, bituma bizamukira kuri ibyo biti, nuko bigatanga umusaruro kandi bikabasha kwisanzurira mu kirere.

Uturima tw'igikoni, usangamo amoko y'imboga atandukanye, haba imboga za dodo, imboga zirimo karoti, imiteja, intoryi, inyanya, ndetse n'ibindi biribwa.

Imigwegwe ni kimwe mu bintu byifashishwa n'abatari bake cyane cyane mu bice byo mu cyaro, kuko bayifashisha baboha imisambi, ibirago, ibyibo ndetse n'ibindi.

Mu bice bitandukanye cyane cyane mu byaro uhasanga ibiti bitandukanye ndetse n'ibindi bimera birimo nk'imigwegwe, ibyatsi bisanzwe, inturusi ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Amoko y'ibimera atandukanye, harimo nk'ikawa, hakurya hari ibiti birebire ubona bibereye kuba byakorwamo imbaho ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ibiti bitandukanye ni bimwe mu bifatiye runini abantu kuko bibaha umwuka wo guhumeka, ibindi bikabyazwamo inkwi bifashisha mu gucana no guteka.

Ushobora kubona icyatsi, ukibaza akamaro kacyo kandi buriya icyatsi kiba ari ingenzi cyane kuko biduha umwuka duhumeka nk'abantu.

Ahantu hatandukanye mu cyaro, usanga hari ibihingwa bitandukanye nk'imyumbati, ibigori, ibijumba biba biri hafi y'aho batuye kuko na bo ntibatura kure y'amasambu.

Amashyamba agiye atandukanye, afatiye runini ikiremwamuntu kuko bamwe babonamo umwuka wo guhumeka, abandi bagakoramo imbaho, ibitanda, ameza, intebe n'ibindi.

Ibiti ni bimwe mu bifitiye akamaro kanini ikiremwamuntu kuko hakorwamo ibintu byinshi bitandukanye nk'intebe, ameza ndetse bikaba bimwe binifashishwa mu gukora amakara.

Insina ziteye ahantu ku gasozi, urabona ko zitarakura neza ziracyari ntoya, hakurya hari ishyamba ry'inturusi zirimo ibiti bifite ibiti birebire.

Ku mihanda ahantu hagiye hatandukanye, uhasanga amoko y'indabo atandukanye, bituma haba heza cyane kandi hakagaragarira neza abahagenda.

Akarima k'igikoni ni ngenzi kuko usanga gafasha abantu kurya indyo yuzuye, mu gihe imboga bahinzemo zeze, na bo babibona batabihashye.

Avoka zirimo kugurishwa zashyizwe ahantu ku kayetajeri kugira ngo unyuraho azibone kuko zikunzwe na benshi, aha ntizishobora kuhamara iminota mirongo itatu zigihari.

Ahantu hasasiye hakaba hahinze intoryi, zimwe ubona ko zahishiye izindi zikiri mbisi, ubu ni ubuhinzi kandi buteza imbere ababukora.

Ni isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo n'amadegede, n'ibijumba, hakaba harimo n'abaguzi benshi, baturutse impande n'impande, baje kwihahira.

Abagabo babiri bari aho bahinze imboga z'amoko atandukanye, harimo nk'intoryi, karoti, imboga rusange za dodo, hakurya yabo hari ishyamba ry'inturusu ririmo ibiti birebire.

Umuhinzi wabigize umwuga, yahinze ibihingwa bisanzwe nk'ibigori, anahinga kandi inyanya, urabona ko arimo kuzisasirira kugira ngo zizamuhe umusaruro mwinshi.

Ahantu hahinze imboga zitandukanye ziganjemo karoti ndetse n'imboga za dodo, iruhande rwaho hari umurima uhinzemo ibigori ndetse hakikijwe n'ishyamba.

Iyo ugeze ahantu hari ubusitani uba ubona hasa neza kandi hakeye, ibyiza rero ni uko twatera ubusitani ku murongo kuko byo birushaho kuba akanyamuneza.

Umwana w'umukobwa w'umwangavu yambaye umupira wa oranje, afite imisatsi iboheye hejuru, arimo arakora ku kinyomoro ubona ko cyeze cyane kandi hariho n'imbuto zihishiye.

Uturima tw'igikoni dufatiye runini abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi, kuko tuba turimo imboga kandi uwariye imboga agira intungamubiri zitandukanye.

Ubusitani ni kimwe mu bituma ahantu hagaragarara neza, ndetse bigatuma n'abantu baharangarira cyangwa bakifuza kuba baharuhukira kuko haba hasa neza.

Imbuto zitwa amatunda, ziri ahantu mu gakarito kameze neza, gafite ibara ry'ikigina, si zo gusa kuko harimo n'amaronji afite ibara risa icyatsi kibisi.

Umugabo uri kumwe n'abana babiri batoya bakaba barimo gusarura inyanya. Urabona ko zeze gusa si ku rwego rwiza nk'uko zitaweho kubera ibihe by'izuba.

Guhinga imboga ni ikintu kiza cyane kandi k'ingenzi kuko bibamo amafaranga ndetse bikavamo n'imboga zirimo intungamubiri zitunga abantu benshi.

Ahantu hahinze igiti cy'ipapayi gifite amababi manini atoshye, iruhande hakaba hari umurima uhinze ndetse n'inzu abantu babamo.

Igiti cy'ipera ni igiti cyiza cyane, kandi usanga cyeraraho imbuto zikunzwe n'abatari bake ku isi hose, kandi zikagira n'intungamubiri zitunga abantu.

Umuhinzi wahinze maze arasarura umusaruro we w'ibirayi urabona ko weze neza yapakiye imifuka imwe yayujuje indi iracagase, arabikesha kuba yarabyitayeho.

Kimwe mu bintu bigenda bibeshejeho ikiremwamuntu, ntitwakwibagirwa ko n'imboga zirimo, kuko buriya zidufatiye runini kandi zibamo n'intungamubiri zitandukanye, urugero rw'imboga harimo nka karoti, ibigori n'ibindi.

Igihingwa cya tangawizi ni cyiza cyane kuko kivura indwara zitandukanye, cyane cyane nk'inkorora n'ibicurane kandi kigakorwamo n'indi miti yifashishwa mu buvuzi.

Umugabo ufite ubwanwa, wambaye umupira w'amaboko magufi uri mu ibara ry'icyatsi, ari mu murima we w'inyanya, arimo arawitaho areba ko nta byonnyi byaba birimo.

Isoko ry'imboga zitandukanye harimo imiteja, karoti ndetse n'izindi zose zikaba zitanga intungamubiri ku bazirya ndetse zigatanga n'amafaranga ku bazihinga.

Mu masoko atandukanye, iyo ugezemo usangamo inyanya, imboga zitandukanye nka karoti, imiteja ndetse n'ibindi kuko ari ingenzi kandi bikenerwa na benshi.

Ku mihanda igiye itandukanye usanga hari ubusitani butuma hagaragarara neza kandi bugatuma birinda n'ivumbi, hakaba hari indabo z'amoko atandukanye nk'umuhondo, umutuku n'izindi.

Iyo ugeze mu isoko ubonamo imbuto zitandukanye nk'imineke, imyembe, amaronji, manderena, pome ndetse n'ibindi bitandukanye, bikaba bifite akamaro ku kiremwa muntu.

Ahantu bubakiye akarima k'igikoni, bakaba bateyemo imboga, urabona ko zitarakomera ngo zibashe kuba zahagarara maze zikure neza.

Umuhinzi w'umukobwa, akaba afite imisatsi, arimo arita kuri water mellon ze zeze neza azisarura, kugira ngo ajye kuzirya ndetse asagurire n'isoko.

Guhinga warabigize umwuga bishobora kuguteza imbere bityo nawe ukaba wakirigita ku ifaranga kuko uba wabihaye umwanya kandi ukabyitaho.

Ni mu isoko hagurishirizwamo imbuto zitandukanye nk'avoka, imyembe, imineke, byose bikaba bifasha abantu mu kubona intungamubiri zo kubatunga.

Akabati gasa neza cyane kakaba karimo imbuto bita amatunda ndetse n'indimu byose bikaba biribwa kandi bigira intungamubiri nyinshi ku buzima bw'umuntu.

Ubuhinzi bw'imboga ni ikintu cy'ingenzi, kuko imboga zifite vitamine zitandukanye zubaka umubiri bityo ikiremwa muntu kikabasha kubaho neza,

Amoko y'imineke harimo kamaramasende ndetse na goromisheri, biri ahantu mu cyumba kudutete, urabona ko rwose byahishiye neza kandi bigeze igihe cyo kuribwa.

Ikibiringanya ni uruboga rukunzwe na benshi, kuko ikibikwemeza iyo ugeze ku isoko ntiwarumarana iminota icumi batararwihahira ngo bajye kururya.

Ibihingwa bitandukanye birimo nk'amateke, bikunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu bice byo mu Majyaruguru no mu Burengerazuba, nibo baza ku isonga.

Karoti ni igihingwa kigira amababi y'icyatsi kibisi, gusa iyo ukirebye hasi ku muzi usanga ari umuhondo, ikaba ikundwa n'abantu batari bake.

Isoko ry'imboga zitandukanye nk'ibitunguru, inyanya, imiteja, karoti, byose bikunzwe n'abatari bake kuko byifitemo intungamubiri zitunga umuntu.

Igihingwa cya karoti aho wagihinga hose ntikibura kwera, icya mbere bigusaba ni ukukitaho, ukagiha amazi n'ifumbire ubundi ugategereza umusaruro.

Isoko ririmo ibintu bitandukanye gusa higanjemo imboga nk'amashu, imboga, za dodo, karoti, intoryi byose bitandukanye.

Amashanyarazi ni kimwe mu bidufatiye runini kuko biduha umuriro, bityo mu gihe cya nijoro tukabona amatara atumurikira tugakora ibintu bitandukanye.

Isoko ririmo imbuto zitandukanye nk'inanasi, Wotameroni, amaronji, amatunda n'ibindi, abantu batandukanye bakaba baza kubigura kugira ngo babirye.

Guhinga imboga zirimo nk'ibitunguru, intoryi, pavuro n'ibindi ni bimwe mu bintu bishobora kuguteza imbere igihe wabigurishije ukabona amafaranga.

Pipinyeri iteyemo imbuto z'inyanya zikiri ntoya, urabona ko ziri ahantu heza kandi zibona amazi ahagije nta kibazo zifite.

Abantu babiri bari mu karima k'igikoni, bishimiye umusaruro wabo, urabona ko utoshye neza kandi biteguye kuwujyana ku isoko bagahabwa amafaranga.

Imboga zitandukanye ziri mu isoko zikaba zirimo kugurishwa, urabona ko harimo inanasi, imyembe, pome ndetse n'izindi. Hari n'umuzani wo gupimaho ibiro biguzwe.

Amasoko yose ntago wayazenguruka utarabonamo imbuto kuko imbuto zikunzwe n'abantu benshi cyane kandi ni ingirakamaro.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye, nk'imiteja, imineke, karoti, imboga, byose bikaba biribwa n'abantu, kandi bikaba bifite n'intungamubiri zitandukanye.

Guhinga ni ikintu giteza imbere benshi wahinga inyanya, wahinga imiteja, wahinga ibijumba, wahinga n'ibindi nk'imbuto byose byaguteza imbere.

Ahantu hagari cyane, hari ibihingwa biteye mu buryo butandukanye, gusa birakorewe cyane, kandi birasasiwe, hakurya hari ibindi biti birebire, by'inganzamarumbu.

Umuhinzi w'umugore ubona ko akuzemo, yiteze igitambaro, akaba arimo arabagarira ibigori bye, kugira ngo bizamuhe umusaruro, mwinshi cyane.

Abantu bishyize hamwe ari babiri, bahitamo guhinga imboga kugira ngo bajye barya indyo yuzuye kandi banasagurire amasoko bityo babone amafaranga.

Umugabo muremure wambaye ingofero y'umukara, akaba yambaye isarubeti iri mu ibara ry'ubururu, afite umupira ufite ibara ry'ubururu, arimo aruhira imboga ze kugira ngo zizatange umusaruro mwinshi.

Umubyeyi w'umumama yiteze igitambaro, akaba yambaye ikanzu idoze mu bwoko bw'igitenge arimo arabagarira ibigori bye kugira ngo azabone umusaruro mwinshi, inyuma ye hari n'ibindi bimera.

Kuhira imyaka mu gihe cy'izuba, ni ibintu by'ingenzi cyane kandi bifasha imyaka kudahungabana ngo izuba riyumishe bityo umusaruro ukarushaho kuba mwinshi.

Ku misozi ahantu hatandukanye usangaho ibiti biba birinda isuri ndetse munsi y'imisozi na ho usanga hari ibishanga biba birimo amazi.

Mu byaro bitandukanye, hafi y'ahakorerwa ubuhinzi, usangamo utuyira tw'abanyamaguru bagendamo bajya mu mirima yabo, kugira ngo bajye kwita ku bihingwa byabo.

Ahantu mukibaya hakunze gukorerwa ubuhinzi butandukanye kuberako usanga hera cyane kandi iyo imvura iguye ntabwo yabura kuhagera kuko haba haterereye.

Ahantu hari umuhanda w'igitaka wanyuzwemo n'umuvu ucamo imihavu hakaba hakikijwe n'ibiti ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Ahantu hahinze ibihingwa by'imboga, harimo ibitunguru, karoti, seleri n'ibindi, bikaba bifatiye runini ikiremwamuntu, kuko bifite intungamubiri zitunga umuntu.

Icyayi gihinze iyo uturutse ahantu kure ukakibona ugira ngo ni matela bashashe ahantu, kuko kiba giteye amabengeza kukireba ubona ari ibintu byiza.

Imisozi itandukanye iba ikeneye imvura, kugira ngo habone uko horoha maze hakorerwe ubuhinzi, bityo abantu babashe kubaho neza.

Hamwe mu byaro byinshi bitandukanye, usanga imiturire yaho atari myiza cyane, bamwe baba batuye mu manegeka bityo bikaba byashyira ubuzima bwabo mu kaga.

Guhinga umusozi ukawumaraho ibiti byose ndetse n'ibimera bishobora kwangiza ikirere cyangwa se bikabuza imvura kugwa, bityo n'ibihingwa wahingaga bikagiraho ingaruka.

Ahantu ho ku musozi habereye ubuhinz, urabona ko hari amatarasi ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru bagendamo bajya mu mirima yabo kugira ngo bagereyo amahoro.

Ahantu ku musozi hari n'ikibaya, hakaba hahinze ibihingwa bitandukanye, ibishyimbo bya mushingiriro, insina zeraho ibitoki ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Korora inkoko cyangwa se andi matungo, byaguteza imbere mu gihe gitoya, ukabona amafaranga yo kurihira ishuri abana bawe ndetse ukaniteza imbere.

Ikiraro cy'ingurube bamwe bakunze kucyita igikomera, urabona ko kirimo ingurube ya kijyambere cyangwa se ya kizungu kandi ishishe kuko yitabwaho uko ikwiye.

Ubworozi bw'inkoko cyangwa se andi matungo atandukanye bishobora kuba byazamura ubukungu bwawe, igihe wabigurishije ukabona amafaranga menshi.

Kubaka ikiraro si ibintu bigoye, kuko ufata ibiti ukabihuza, ugashyiraho imigozi cyangwa waba wifite ukagura imisumari, ukacyubaka, ugashyiramo amatungo yawe.

Ubworozi bw'amatungo ni kimwe mu bintu byiza kandi biteza imbere ababikora, kuko ubikora akenshi akubwira ko nta kindi kintu yakora, bitanga amafaranga kurusha ibindi.

Ikiraro cyubakishijwe ibiti, imbere hakaba harimo inyana itarakura cyane, ikaba isasiye icyarire. Urabona ko ihagaze itegereje guhabwa ubwatsi.

Amatureyi y'amagi ari ahantu heza cyane, hakaba harimo amatara ari kwaka ndetse hanasize amarangi y'umweru, harimo n'ibyuma bifashe inkingi.

Umudamu ugiye kuzirika ihene mu rwuri kugira ngo zirishe zibone uko zizamuha umusaruro mwinshi, akaba iruhande rwe hari amazu abiri.

Itungo bita ingurube, ribwagura ibibwana byinshi, bigatanga umusaruro ku mworozi, kuko iyo abigurishije abona amafaranga menshi cyane.

Ushobora kwibaza uti:" Ese inkoko zamfasha iki mu buzima? Ese kuzorora ni byiza? Gusa icyo nagushishikariza ni uko wazorora ufite aho kubikorera kuko zitanga umusaruro mwinshi.

Umudamu wambaye ingofero y'umukara n'ikoti ry'umukara n'ijipo y'ubururu, arimo arazirika ihene y'umukara mu ijosi kugira ngo ayijyane mu bwatsi irishe.

Umugabo wambaye isengeri akaba ari kwita ku nka ye iri mu kiraro gisakajwe amabati, yambaye isengeri itukura n'ipantaro iciyemo uturongo.

Kuzirika itungo ukoresheje ikiziriko si ibintu byiza, icyiza ni uko wakubaka ikiraro inka yawe ikabamo cyangwa se irindi tungo bitayibangamiye.

Mu bice bitandukanye cyane cyane mu byaro borora amatungo agiye atandukanye harimo nk'inka, ihene, ingurube, intama ndetse n'inkoko n'ibindi.

Mu cyaro ni ahantu heza hakunze kororerwa amatungo kandi agatanga umusaruro kuko aba yabonye ibyo kurya bihagije kuruta mu mugi.

Ikiraro cy'inka cyubakishijwe ibiti ndetse imbere harimo inka y'inzungu ifite iherena, ikaba iri kurisha ubwatsi kandi urabona ko imeze neza.

Ubworozi bw'inkoko ni ikintu cyiza cyane kandi gishobora kuguteza imbere mu gihe gitoya cyane kuko iyo uzigurishije cyangwa zigatera amagi menshi ubonamo amafaranga.

Ubworozi ni ikintu cyiza kandi cy'ingenzi kuko biteza imbere ababikora kandi mu gihe gitoya cyane ku wabyitayeho, abona amafaranga ndetse n'ibyo kurya.

Mu byaro ni ahantu habereye ubworozi cyangwa se ubuhinzi, kuko haba hisanzuye kandi nta micucike y'imiturire iharangwa.

Mu bice bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, usanga hari abantu benshi baba boroye amatungo atandukanye nk'ihene, inka, intama, inkwavu, ingurube ndetse n'ibindi.

Ingurube ni ikintu abayisilamu bazira cyane kuko batabana na yo. Ikindi kandi abayirya bo bakubwira ko ari ikintu cyiza kuko ngo igira inyama ziryoha.

Umugabo wambaye ishati irimo uturongo tw'ikigina, yambaye ipantaro y'umukara ari guhereza inka ye ubwatsi iri mu kiraro cyubakishijwe ibiti, hari n'andi matungo nk'inkoko ndetse n'ingurube.

Ubworozi ni kimwe mu bintu byiza kandi biteza imbere ababikora kuko ushobora korora uyu munsi ejo itungo rikakugoboka bitewe nuko wabyitayeho.

Ikiraro cyubatse, kikaba cyubatswe mu biti, imbere harimo ingurube yubakiyemo kugira ngo itazasohoka, ikaba yabura cyangwa ikaba yarwaragurika.

Ubworozi iyo ubwitayeho ukabukorera, buragutunga, bugatunga n'umuryango wawe ndetse n'abana bawe bakaba bajya ku mashuri kuko wabwitayeho ukabuha umwanya.

Ni koperative yishyize hamwe bahitamo kugura ingurube zigezweho kugirango bajye kuzorora bityo nabo bazakuremo amafaranga azabatunga n'imiryango yabo n'igihugu.

Mu bice bitandukanye byo mu cyaro, usanga hari abantu benshi baba boroye amatungo ndetse n'ibindi kandi bakubwira ko bibateza imbere ku buryo bwihuse.

Umugabo nyuma yo korora afashe inkoko ayijyanye ku isoko kugira ngo abone ku mafaranga yo kumufasha mu gukemura ibibazo bigiye bitandukanye.

Ni mu rwuri, hari intama ebyiri, imwe iziritse ku rumambo. Hari ibyatsi bitoshye, ndetse hakaba hari n'inyubako, yubakishijwe sima.

Ubworozi bw'amatungo nk'ingurube, ni ikintu gisaba kucyitaho cyane, gusa iyo wacyitayeho nawe kiguha umusaruro mwinshi, bityo bikaba byaguteza imbere mu gihe gito.

Ubworozi bw'amatungo ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane, kuko iyo woroye nyuma ukagurisha ushobora kubona amafaranga cyangwa se nawe iryo tungo ukaribaga ukarirya n'umuryango mukishima.

Ihene ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane bifasha abantu mu kubona amafaranga ndetse no gukemura ibibazo bitandukanye bitewe n'uko bibagoboka.

Korora ni ikintu cyiza kandi cy'ingenzi, buri wese yakwiye gushishikarira kuko habamo amafaranga menshi kandi mu gihe kitari kirekire.

Ikiraro cyubakishijwe ibiti, kikaba kirimo inka ya kizungu, irimo amabara y'umukara n'umweru, ikaba iri kurisha ubwatsi, urabona ko imeze neza cyane.

Inyubako yubakishijwe imbaho, imbere hakaba harimo ubworozi bw'inkoko, urabona ko zikuze kandi zifite buri kimwe bityo zizatanga n'umusaruro.

Igihe cyo kwatura inyanya, bazikura ahantu bigengesereye kugira ngo imizi yazo itangirika bityo bakajya kuzitera ahandi hantu, maze zigatanga umusaruro.

Bimwe mu bintu by'ingenzi bifatiye runini abaturage cyane cyane abo mu mijyi ndetse no mu cyaro, ni ubuhinzi. Kuko buteza imbere abantu kandi bakabona n'ibyo kurya.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'ibindi bihingwa birimo imiyenzi ndetse n'ibindi byose biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Ni umuhanda wigitaka, iruhande rwawo hahinze imyumbati yakuze neza cyane ku rwego rushimishije. Urabona ko iteye neza kandi kumurongo.

Ubuhinzi ni igikorwa cyiza ku bagikora, kuko bakubwira ko babonamo ibyo kurya byinshi bitandukanye, kandi bakabonamo n'amafaranga bakoresha mu gukemura ibibazo byabo.

Ibimera bitandukanye biri ahantu hirya yabyo hakaba hari inzu ifite ibaraza risa neza riri mu bwoko bw'ikigina, ikaba ikikijwe n'ibindi biti birebire.

Ni muri pipinyeri aho ushobora kujya ukaba wahasanga amoko y'ibiti atandukanye, yaba ibiti bisanzwe ndetse n'ibiti by'imbuto zitandukanye.

Umurima w'ibigori byarumye birasarurwa, hirya hari ishyamba ritagaragara neza, urabona ko ari igihe cy'izuba kandi ivumbi ni ryinshi cyane.

Ikiganza cy'umuntu gifashe ku runyanya rwatukuye, hakaba hari n'izindi nyanya zitarera neza nk'uko bigaragara gusa hari n'ibindi bimera.

Ni inzu yubatswe neza ifite igikuta giteye irange ry'umweru kirekire, inyuma yaho hari ibihingwa birimo nk'ibigori byasaruwe hakaba n'ibiti birebire.

Ubuhinzi bw'imboga, cyane cyane amashu buteza imbere ababukora kuko bakuramo amafaranga igihe zeze akabatungira imiryango ndetse akabateza imbere.

Muri pipinyeri zitandukanye, aho usanga amoko y'ibiti cyangwa se ibiti by'imbuto bitandukanye, hagomba kuba hari isuku kandi hari n'amazi agomba gukuza ibyo bihingwa.

Ahantu hari ibihingwa byiganjemo imboga biratoshye birasa neza birakoreye byitaweho urabona ko rwose bizatanga umusaruro mwinshi.

Igihingwa kiri mu bwoko bw'intoryi, kikaba kimeze neza cyane kandi iruhande rwacyo hari imboga, zifite ibara ry'umutuku urabona ko byose byitaweho kandi ni ingenzi ku buzima bw'umuntu.

Ahantu heza cyane hahinzwe, hakaba hari ibihingwa nk'ibishyimbo ndetse n'ibigori byumye urabona ko bikiri bitoya ibishyimbo.

Ni akarima k'igikoni karimo imboga zitandukanye gusa haragaragara cyane intoryi bikaba ari ibintu byiza cyane kandi bifasha mu buzima bw'umuntu.

Mu byaro uhahasanga akavuyo k'ibintu bitandukanye bitewe n'uko na bo bakora imirimo myinshi irimo ubuhinzi, ubworozi, ukabona ibintu byaho biravangavanze.

Mu bice bitandukanye, cyane cyane mu byaro, usanga hari amaduka, aba acuruza ibintu bitandukanye by'ubuhinzi, ndetse n'imiti yifashishwa mu kurwanya, ibyonnyi by'ubuhinzi.

Umugabo umwe uri gukama inka ndetse n'undi wambaye ikoti ry'umukara urimo kuyagaza, urabona ko ishishe neza kandi igihe kigeze ngo ibashimishe, ibaha amafaranga n'amata.

Gukingira amatungo ni igikorwa cyiza cyane kandi kirinda indwara zikunze kuyibasira kuko aba yabonye urukingo bityo akagira ubuzima buzira umuze.

Umugabo wabigize umwuga agahitamo wo korora inkoko, yazanye ibikenewe byose abyegereza aho ngaho kugira ngo inkoko ze zizamuhe umusaruro yifuza.

Mu byaro usanga boroye inka, ziba ziri mu biraro byazo byubakishijwe ibiti. Zikaba zibaha ifumbire, zikabaha amata ndetse n'amafaranga.

Inka nziza y'inyana ikaba iri mu ibara ry'umweru n'umukara bivanze, barimo barayitaho bareba ko nta kibazo ifite. Iruhande rwayo hari ibyatsi.

Abagabo babiri barimo barasuzuma ibijyanye n'ubworozi bwabo, bareba neza ko iyi nka yapfuye nta kibazo yateza kugira ngo baze kuyirya.

Umuganga w'amatungo afatiye runini aborozi kuko abafasha mu kuvura amatungo yabo cyangwa se kuyakingira bityo ntarwaragurike cyangwa ngo apfe.

Buriya abishyize hamwe nta kibananira kuko bungurana ibitekerezo ndetse bagafatira umwanzuro hamwe, bityo ibyo bari gukora bikagenda neza cyane.

Umuganga w'amatungo afatiye runini aborozi, kuko iyo akingiye amatungo yabo, biyarinda kuba yarwaragurika cyangwa se yafatwa n'indwara zitandukanye.

Ubuhinzi n'ubworozi ni ibintu byiza cyane gusa bikarushwa kubaho byiza iyo byitaweho bigakurikiranwa kuko bikunda kuba abantu babikurikirana.

Abahinzi borozi, ni bamwe mu bantu babayeho neza, kuko mu bworozi bakuramo inyama, amata ku boroye inka, ndetse no mu buhinzi bakabona ibyo kurya bitandukanye.

Mu ishyamba ni ahantu utajya ngo uburemo amoko y'inyoni atandukanye kuko inyoni nyinshi zikunze kwibera mu bushorishori bw'igiti, niho zikunze kwirarira.

Mu mashyamba ahenshi na henshi iyo ugezemo usangamo amoko y'inyoni atandukanye, kandi ziba ziririmba mu majwi atandukanye ushobora gusangamo imisure, amasandi, ibyiyoni n'ibindi.

Akanyoni gahagaze ku gihwagari, gafite amabara y'umuhondo, umutuku, icyatsi, ubururu n'umukara, kakagira umunwa muremure w'umukara n'imirizo y'umukara.

Inkende zikunze kuba mu biti kandi ni na ho zirarira, gusa iyo uyanduranyijeho ntabwo na yo ikwihanganira ishobora kukurya cyangwa ikagusagarira bikomeye.

Ahantu hagaragara neza hari kugaragara inkende ihagaze ku gikuta, hejuru inyubako zitandukanye ndetse n'amashyamba ari kugaragara hakurya.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, ukaba urimo inyamaswa bita inkobe, zikaba zisa neza, zimwe ziri kugenda izindi ziricaye, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Mu byaro ahantu hatandukanye usanga hari imihanda y'igitaka iba irimo ibintu bitandukanye ndetse harimo n'urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye.

Ahantu hatuye abaturage batandukanye, hakaba hari amazu ndetse hakikijwe n'ibiti, iruhande munsi y'ibiti hari kugaragara inkende ebyiri zishaka kurira.

Zimwe mu nyamaswa zitandukanye, usanga zigira ubukazi bw'indengakamere, urugero nk'intare, ingwe, impyisi kuko bikunze kwirira inyama zitandukanye.

Mu mashyamba agiye atandukanye, maremare usangamo amoko y'inyoni atandukanye kuko zikunze kwibera hejuru. Ni byiza ko tuyatera bityo n'izi nyamaswa z'inyoni zikabona aho ziba.

Inyamaswa zikunze kuba mu biti, ziba zisa n'inkende hakaba habamo ibitera, ingagi, inkende, inkobe, ndetse n'izindi.

Igitera ni kimwe mu nyamaswa zikunze kurira mu mashyamba hejuru kuko ziteye nk'inkende, zikaba ziba zifite amatwi manini, ubwoya bw'umukara ndetse n'iminwa minini.

Amabara atandukanye nk'umuhondo ndetse n'akanyoni kari ku giti gifite ibara rijya gusa icyatsi kibisi, akanyoni na ko gafite ibara ry'umutuku, umuhondo, umukara ndetse n'ubururu.

Imparage ni inyamaswa iba ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, zikunze kurisha ibyatsi kandi ni inyamaswa z'amahoro kuko nta muntu zabangamira.

Mu mashyamba usangamo amoko y'inyoni atandukanye kuko zikunze kwibera mu bushorishori ni naho ziterera amagi, zigaturaga zikabyara izindi nyoni.

Inyamaswa ifite amabara abiri akaba ari umukara n'umweru, zifite imirizo migufi n'amatwi ashinze ndetse n'ubwoya ku mugara w'ijosi.

Inyoni yo mu bwoko bw'ibyiyoni, ikaba ikunze kugira amabara abiri umweru ndetse n'umukara, igenda mu kirere cyane cyane kandi ikarya utunyamaswa duto.

Mu byaro byinshi bitandukanye cyane cyane ibyegereye amashyamba uhasanga imihanda itarakorwa, muri iyo mihanda ushobora gusangamo n'ibindi binyabizima nk'inyamaswa ndetse n'ibyatsi biba bihari.

Inyamaswa zitandukanye usanga zibera mu mashyamba, ushobora gusanga nk'izisa n'imbeba, izisa n'inkoko, izisa n'inka, byose biterwa n'ubwoko bw'iyo nyamaswa.

Mu mashyamba atandukanye cyane cyane ibiti, usangamo inkende, ibitera, biba biri mu biti hejuru kuko byo ari na ho bikunze kwibera cyane.

Mu mashyamba atandukanye, iyo ugezemo usangamo amoko y'inyamanswa atandukanye, na zo ziba zirimo kuririmba uturirimbo twiza kuko inyoni ntivuga, buriya iraririmba.

Ushobora kubona inyamaswa zitandukanye, ukabona ni ibintu bishimishije ndetse ukibaza niba ari akamaro kazo, gusa karahari kandi gakomeye cyane.

Mu mashyamba atandukanye, usangamo amoko y'udusimba dutandukanye utasobanukirwa uko twitwa, gusa twose tubayeho kandi mu buryo bwatwo.

Mu ntara y'amajyepfo, mu karere ka Nyamagabe, haba ishyamba rya Nyungwe, hejuru y'iryo shyamba haba ikiraro abantu bagendaho bitegereza ishyamba ryose.

Ushobora kwibaza uti inyamaswa zitumariye iki, ariko akamaro kazo ni uko zituzanira ba mukerarugendo bakaza kuzisura bakadusigira amadovize.

Inyamaswa iri mu bwoko bw'impara, ifite amahembe maremare, ifite amatwi ahagaze, ikagira n'izuru rirerire, irashishe biragaragara ko irya neza.

Utunyamaswa tuba dufite amoyo atandukanye, tukaba turi mu bwoko bw'inkende. Dufite amaso atukuye, turimo turitegereza umuntu urimo kudufotora, urabona ko twamutangariye.

Zimwe mu nyamanswa z'inkazi, usanga harimo n'ibisamagwe kuko buriya ni inyamanswa ziba zikaze, kandi uyegereye ishobora kukugirira nabi cyane.